Inyubako zigizwe n'amabati y'ubururu, amatafari ahiye, amarangi y'umweru, hakaba hari n'abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba kirwariramo abarwayi, kirimo abaganga bari kwita ku barwayi ndetse n'inzitiramibu n'ibikoresho bigeza umwuka mwiza mu cyumba cyose.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'umweru ikwiye umubiri wose kugira ngo birinde indwara, aho bari gufasha umurwayi kugira ngo bamugeze ku bitaro, ahabwe serivisi z'ubuvuzi.

Abaturage batandukanye, abagabo bakaba bahuriye hamwe kugira ngo bubakire abatishoboye kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere.

Imodoka iri mu mabara, y'umweru, ndetse n'umukara, inyuguti zandikishijwe, umutuku akaba ari igikoresho, k'ikinyabiziga gikoreshwa mu gutwara, abarwayi kibageza ku bitaro.

Umushoferi w'umugabo uri mu mbangukiragutabara, iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, imbangukiragutabara ikaba yifashishwa mu gutwara abarwayi ibageza ku bitaro.

Inyubako ifite amagorofa, iri mu mabara y'umuhondo ndetse hakaba haparitse Imbangukiragutabara, yifashishwa mu gutwara abarwayi.

Abantu umunani bari kuganira, bamwe bambaye amajire y'umutuku bigaragara ko ari ay'ibikorwa by'ubutabazi, abandi bambaye imyambaro itandukanye, bambaye ingofero ndetse n'indi myambaro itandukanye.

Abaganga babiri bambaye imyenda ibarinda kugira ngo batandura indwara, aho batwaye umurwayi bamujyanye ku ivuriro kugira ngo ahabwe serivise z'ubuvuzi.

Ubwoko bw'indege zifashishwa mu gutwara amaraso yifashishwa ku bigo nderabuzima, bikaba byihutisha serivisi zubuvuzi, aho abakeneye amaraso bayabonera ku gihe kandi bitabagoye.

Abaganga batatu bahetse umurwayi mu ngobyi bakaba bari kumuha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo abashe gukurikiranwa kandi avurirwe ku gihe.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru umubiri wose akaba ahetse injerekani, akaba ari ibikoresho byifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi bw'ibanze mu gihe ahantu habaye ibibazo.

Abantu b'ingeri zitandukanye abamama, abagabo, bahuriye ku kigo nderabuzima gifite amarangi y'umuhondo, aho baje gushaka serivisi z'ubuvuzi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuganga w'umugore ndetse n'umurwayi w'umugore, aho umuganga ari kumuha serivise z'ubuvuzi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abagabo batandukanye b'ingeri, zose, ndetse n'abamama, bakaba bari mu bitaro, aho bari kuganiriza abarwayi, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umuganga uri kwita ku murwayi, akaba yambaye itaburiya y'umweru, akaba ari ahantu dukura serivisi z'ubuvuzi, bakaturwara indwara zitandukanye bityo tukagira ubuzima bwiza.

Ababyeyi b'abagore n'abagabo abafite abana ndetse n'abaje kwivuza ku bitaro, akaba ari ahantu dukura serivisi z'ubuvuzi tukagira ubuzima bwiza.

Abaganga batatu batandukanye, babiri babagabo ndetse n'umwe w'umugore, bakaba bari mu cyumba kibagirwamo abaza kwivuza.

Aharwarira abarwayi batandukanye, tukaba tuhasanga abavuzi, ibitanda byo kuryamaho, ku bagize ikibazo cy'uburwayi, tukaba tubakorera serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hakaba ari hari inyubako zitandukanye, bakaba bakira abarwayi b'ubwoko butandukanye baje kwivuza indwara zitandukanye.

Abantu batandukanye: abagore, abagabo bakaba bahuriye ku kigo nderabuzima, aho bari kwakira abarwayi barwaye indwara zitandukanye.

Abagabo babiri b'umugabo ku ruhande rw'iburyo wambaye amadarubindi, ndetse n'itaburiya y'umweru w'umugore ku ruhande rw'ibumoso bari guha serivisi z'ubuvuzi umurwayi waje abagana.

Abaganga babiri ndetse n'umurwayi urwariye ku gitanda aho bari kumuhereza serivisi z'ubuvuzi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, wicaye ku ntebe ndetse n'umurwayi w'umugore wicaye ku ntebe, aho yaje ku kigo nderabuzima kugira ngo ahabwe serivise z'ubuvuzi.

Imiti yifashishwa mu buvuzi, ikaba ikoreshwa mu gusuzuma indwara zitandukanye, aho umurwayi ugiye kwa muganga ayifashisha kugira ngo akire.

Umuganga w'umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'itawuriya y'umweru, aho ari mucyumba gisuzumirwamo indwara kugira ngo tumenye uburwayi umurwayi arwaye.

Umuganga w'umugabo wicaye ku ntebe, imbere ku meza hari mudasobwa ndetse n'umugore ufite umwana, aho yazanye umwana kugira ngo bamusuzume uburwayi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba ari gusuzuma umudamu aho ari kumufata ibizamini kugira ngo amenye uburwayi arwaye.

Inyubako iri mu mabara y'umweru, isakaje amabati y'ubururu, ndetse n'abantu bane imbere yayo ikaba ikorerwamo, serivise zo gupima, no gusuzuma indwara, kugira ngo tumenye uburwayi nyabwo.

Abana b'inshuke, aho bari gukina imikino itandukanye ndetse n'abamama bari kubafasha, bikaba bituma umwana akura ameze neza bityo agafata byihuse.

Abana batandukanye b'inshuke ab'abahungu ndetse n'abakobwa bakaba bahuriye hamwe aho bafite ibikombe bari kunyweramo igikoma bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, ufite ikayi mu ntoki, indangururamajwi ndetse n'abaturage bamuteze amatwi, aho ari kubagezaho ijambo yabateguriye.

Ababyeyi bari kugaburira abana b'inshuke, kwita ku bana b'inshuke bikadufasha kurinda indwara ziterwa n'imirire mibi bityo umwana agakura neza, akagira ubuzima bwiza, mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi, wambaye isaha mu kuboko, ufashe impapuro mu ntoki ndetse n'indangururamajwi, aho ari kugeza ijambo ku baturage batandukanye bamukurikiye.

Ababyeyi benshi bafite impinja z'inshuke baje gushaka serivisi z'ubuvuzi ku kigo nderabuzima kugira ngo abana babo bakure kandi bagire ubuzima bwiza.

Urubyiruko rutandukanye, abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri bakaba bahuriye ahantu bari gukina imikino itandukanye bikaba byongera ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Abakorerabushake bateruye umurwayi wagize ikibazo cy'uburwayi kugira ngo bamushyire mu mbangukiragutabara bityo zimugeze ku bitaro abona ubuvuzi.

Abanyeshuri batandukanye, abahungu ndetse n'abakobwa, ndetse n'umurezi wabo aho bahuriye hamwe, bari kuganira ku biganiro by'ubuzima.

Umujyanama w'ubuzima wambaye ikanzu y'umweru n'umukara ndetse n'abandi bagore batatu, bari kuganiriza umugabo wambaye ipantaro, umupira ujya kuba umukara ku kibazo cy'ubuzima.

Abaturage b'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore ndetse n'abana, aho bahuriye hamwe bari kuganira kuri serivisi z'ubuzima ndetse n'ibyo bagira bakora kugira ngo ubuzima bugende neza.

Urubyiruko ndetse n'abagabo batandukanye bambaye amapantaro ya kaki imipira y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bahuriye ahantu hamwe.

Imiti y'ubwoko butandukanye ifunze mu makarito y'ubwoko butandukanye, amacupa ikaba iri ahacururizwa imiti, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ahacururizwa imiti y'ubwoko butandukanye, hari ubwoko bw'imiti iri mu macupa, indi iri mu makarito ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye.

Ahagurishirizwa imiti y'ubwoko butandukanye, ikaba iri mu makarito y'amabara atandukanye, ay'umweruru, ubururu ndetse n'andi, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Abaganga babiri uw'umugore ndetse n'uw'umugabo, bakaba bari ahagurishirizwa imiti itandukanye aho bategereje abarwayi baza babagana ndetse n'abaje gushaka imiti itandukanye.

Umuganga wambaye itabariya y'umweru akaba ari ahagurishirizwa imiti, akaba ari ahantu dusanga imiti y'ubwoko butandukanye ituvura indwara zitandukanye.

Inzu ndende igizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba ari ahagurishirizwa imiti y'ubwoko butandukanye, iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'abantu.

Ahagurishirizwa imiti tukahasanga imiti y'ubwoko butandukanye, ibinini, imiti y'amazi tukahakura n'ubujyanama bw'uburyo twakwirinda indwara zitandukanye kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Inyubako igizwe n'amadirishya y'umweru ndetse n'inzugi z'umweru mu mbuga hakaba hashashe amapave ikaba iri icyapa kigaragaza ko ari ahasanzwe hagurishirizwa imiti.

Muganga w'umugore wambaye ikabu y'umweru, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'imiti y'bwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura indwara za buri munsi.

Ahacururizwa imiti y'ubwoko butandukanye, hari iri mu ducupa, iri mu dukombe ndetse n'iri mu makarito, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amapikipiki abiri, imwe iriho umumotari uyitwara, biri iruhande rw'ahacururizwa imiti.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo ikaba iri mu bwoko bw'ibisukika ikaba ipfunyitse mu ducupa tw'umweru, ipfundikije imifuniko y'umutuku ikaba iriho ibipapuro bidufasha kumenya uburyo ikoreshwa.

Umugore w'ikanzu itukura, inkweto z'umweru, ari kuganiriza abantu b'ingeri zitandukanye. Aho bagenda basobanurira, hakaba hari bamwe bicaye ahasakaye n'abicaye ahantu hadasakaye.

Abaturage batandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abagore, aho bahuriye ku ivomo rusange, baje kuvoma amazi meza yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Imiti y'ubwoko butandukanye iy'ibyatsi ndetse n'ibindi, ikaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho ituvura indwara z'ubwoko butandukanye.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hakaba hagizwe n'inyubako zitandukanye, zifite amabati yubururu, amarangi y'umweru, hakaba ari ahantu abarwaye bajya bakabavura.

Icyatsi kizwi ku izina ry'umuravumba, kigira amababi y'icyatsi, kikaba kifashishwa mu buvuzi gakondo, aho kivura indwara z'ubwoko butandukanye zirimo izo mu nda.

Ibyatsi bitandukanye ndetse n'indi miti, bikaba bikoreshwa mu kuvura indwara za gakondo, aho batuvura indwara z'ubwoko butandukanye.

Ubwoko bw'icyatsi cya kinyarwanda gifite amababi y'icyatsi, ururabyo rw'umweru, kikaba ari igihingwa cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo.

Umugore ufite igikapu mu ntoki, akaba arimo gusoroma ibyatsi, icyatsi cyitwa umuravumba, kikaba ari icyatsi kivura indwara zitandukanye, harimo izo mu nda.

Ahacururizwa kandi hakagurishirizwa imiti gakondo, imiti gakondo ikaba ari imwe mu miti ikoreshwa n'abantu bavura indwara zitandukanye ziba zangiriza ubuzima bw'abantu.

Umuganga w'umugore, uri ahagurishirizwa imiti ya kinyarwanda, iri mu bwoko butandukanye, iri mu ducupa, ndetse no mu makarito, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Inyubako z'ikigo nderabuzima kiri mu mabara y'ubururu, ndetse n'abana bakiri batoya bategereje serivisi z'ubuvuzi.

Umugore wambaye ikanzu ufite igikapu mu ntoki, uhetse umwana, ufashe n'undi mwana akaboko aho agiye ku kigo nderabuzima gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Imiti y'ubwoko butandukanye ifunze mu makarito ndetse no mu ducupa tw'umweru dupfundikije imifuniko y'umutuku, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore, bahuriye mu cyumba cy'inama ku kigo nderabuzima, aho baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umuganga w'umugabo wambaye impuzankano y'umweru ufite ikaramu ndetse n'igitabo, urikumwe n'umumama wambaye impuzankano y'ubururu, bari kwita ku murwayi uri ku gitanda ndetse n'abandi baganga bari gukurikirana abarwayi.

Imiti ipfunyitse mu makarito, ari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, akaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu matungo.

Umuti uri mu icupa ry'umweru, umufuniko w'umweruru ukaba uriho urupapuro rugaragaza amatungo uvura, harimo inka, ihene ndetse n'inkoko, ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti uri mupaki igizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweruru, ushushanyijweho amatungo uvura, ukaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye mu nkoko.

Inyubako iri mu mabara y'ubururu, imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo indabyo zitandukanye, kaba ari ahantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ahahuriye abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abana bicaye, inyubako ikaba yubakishijwe amatafari, amabati y'umutuku, ikaba isizwe irangi ry'umuhondo.

Ahagurishirizwa imiti y'amatungo, tukahasanga imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, aho umworozi ajya akaba yakura imiti ituma amatungo ye akura neza, bigatuma umusaruro w'ibikomoka ku bworozi.

Inyubako iri mu mabara y'ubururu isakajwe amabati y'ubururu, iruhande hakaba hari ikigega ndetse n'ibiti birebire, hakaba hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Umuti wifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, ukaba uri mu gakarito k'umuhondo ndetse n'icyatsi, ukaba ushushanyijweho amatungo uvura, harimo inka ndetse n'intama.